Iri ni igare ryegetse ku giti rihetse inzoga ziva mu nganda, zicuruzwa mu tubari no mu maresitora.

Iki ni igicuruzwa gicuruzwa, kifashishwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro, gikoreshwa n'abagabo mu rwego rwo kwirinda gutera inda zitateganyijwe, kitwa agakingirizo.

Uru ni urusengero, imbere yaho hari kugaragara abakirisitu, haparitse imodoka, rukikijwe n'uduti dukeya, urusengero rwubatse runini rusakaje amabati atukura.

Iyi shusho iri kwerekana inyubako imeze nk'inzu y'urusengero, hino ku ruhande hari umubyeyi uhagaze, inyubako imbere yayo hari kandagira ukarabe kandi iranakinguye.

Aba ni baririmbyi bari kubyina, bahagaze imbere y'urusengero, bambaye imikenyero bateze amaboko bigaragara ko bahimbawe.

Aba ni abantu bicaye bari mu cyumba cy'amasengesho barimo gusengabamwe bicaye, abandi bahagaze.

Iri ni isoko ry'inkweto, umucuruzi ari gucuruza inkweto yambika abana, hirya ye hari ababyeyi n'igare riparitse ku giti.

uyu ni umumotari utwaye ipikipiki ku muhanda wa kaburimbo, ahetse umugenzi.

Aha harimotari utwaye umugenzi ku ipikipiki, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya ye hari amazu yubucuruzi, haparitse n'imodokari, imbere y'ayo mazu.

Uyu ni umumotari utwaye ikinyabiziga, nta mugenzi ahetse ari kugenda wenyine, umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari imodoka ihaparitse, hakurya hari n'amazu y'bucuruzi.